Inzu yicarwamo abagenzi bategereje imodoka, ikikijwe n'inzu ebyiri z'abagenti ba MTN imbere yayo haparitse abamotari babiri, hicayemo n'abagenzi bategereje imodoka.

Akazu k'umu ajenti wa MTN gafunguye gateyemo intebe ariko nta muntu wicayemo kari imbere y'indabo munsi y'ibiti impande y'umuhanda wa kaburimbo.

Inzu y'umu ajenti wa Ekwiti banki, ukora n'ibintu bijyanye na serivisi z' irembo, harimo abantu batatu.

Abaturage biganjemo igitsina gore n'igitsina gabo bafashe ishusho mu ntoki, bahagaze imbere y'inyubako y'ubucuruzi, impande yabo hari moto, bose bagize koperative.

Bare irimo amarikeri menshi atandukanye harimo amanini n'udutoya, harimo ibyuma, harimo n'inzoga zisanzwe zipfundikiye.

Umucuruzi w'umumama wicaye muri butike irimo imifuka w'indagara, umufuka w'ibinyobwa, indobo z'ifu y'amasaka, hejuru ye hari udufuka apfunyikiramo abagenzi, mu kayetejeri harimo amakaroni, amavuta, pehashi, amvirope n'ibindi.

Padiri ahagararanye n'umupolisi ufite icyapa cyanditseho gerayo amahoro, ari kumusezeraho bisa nkaho uyu mupadiri agiye mu rugendo rw'amahoro azatindayo.

Salo irimo gaze ameza firigo, akabati kariho n'indabo harimo televiziyo na telekomande, hari imitako itandukanye ndetse n'amoko y'ameza atandukanye.

Hoteri yubatse mu buryo bwa etage iri imbere ya kaburimbo, ku ruhande hari jaride irimo ibyatsi bikase, harimo n'indabo zazamutse.

Bale irimo logi, ifite uburiri busashe. Hejuru hari supaneti. Imbere yaho hari akabati k'umutuku. Kuruhande hari ameza ushobora kwifashisha uri gufatiramo amafunguro mu cyumba cyawe.

Kilinike irimo amatara meza, iteretsemo amavase ari n'indabo, ku ruhande hamanitse udutako n'udusego, mo imbere harimo ameza yakira abantu benshi.

Hoteli yicayemo umukashiya mo imbere afite imashini imbere ye, inyuma ye hari ishusho ya nyiri hoteli ku ruhande hari aho abantu biyakirira.

Moteri, irimo igitanda gisashweho matera, n'amashuka y'umweru n'imisego y'umweru. Imbere yacyo hari akabati, umanikamo imyenda, hejuru hari supanete, kuruhande hari ameza, watereraho n'ipasi.

Umuseriveri wo muri hoteri, wambaye ijire y'umukara n'ishati y'umweru n'agapfukamunwa, uri gutegura rikeri yo gushyira abakiriya, biteretse ku meza harimo ibirahuri.

Hoteri irimo uburiri bwiza bufashe neza, impande yayo hari ameza, hepfo hari tapi, hari n'akabati bamanikamo imyenda.

Umumotari uri muri kaburimbo uhetse umugenzi, umugenzi ateruye ijerekani inyuma ye hari umufuka w'umuceri, inyuma yabo hari icyapa kerekana inzira y'abagenzi, ku ruhande hateye ibiti.

Umuhanda wamabuye uri imbere y'inyubako yanditseho erekitorogaze urimo umumotari uri kugenda agana iburyo, iyo nyubako iriho icyapa kiburira.

Kaburimboma irimo umumotari uhetse umugenzi, imbere hari umufuka w'umukara, inyuma ye hari umunyonzi uhetse umugenzi, ku ruhande hari icyapa cya parikingi.

Parikingi y'abamotari baparitse imbere y'inyubako ifite inzugi z'icyatsi, harimo umwe uhetse umugenzi w'umugore abandi barahagaze nta bagenzi bafite, hari n'abavuye kuri moto.